Ni ahantu mu cyaro hasa nk'aho ari mu gashyamba, hari umugore uri kuvomera abana amazi ,abo bana bafite utujerekani dutatu kandi aho hantu hari n'imodoka.